Ikibuga gihagazemo abantu batandukanye, barimo abana, abagore barimo barakoma amashyi, hirya yabo hari inyubako ndetse n'ibiti birebire cyane bifite amabara y'icyatsi.

Abana bateranyirijwe hamwe, bicaye ku musambi munini, bari kumva ibyo bababwira babigisha, bafite ibitabo. Imbere hari umuntu wicaye wambaye ikote ndetse n'ipantaro, ufite igitabo mu ntoki.

Ahateranyirijwe abana bahagaze barimo kuririmba bakoma n'amashyi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, umukara, umutuku, umweru, ndetse n'ubururu, hari umugore ubahagaze imbere, wambaye ipantaro ifite ibara ritukura ndetse n'ishati y'umukara.

Igikuta kimanitseho ibishushanyo bitandukanye bifasha kwigisha abana gusoma ndetse no kwandika, basoma inyuguti ku yindi, bareba n'amoko y'inyamaswa agiye atandukanye harimo inkoko, ihene ndetse n'ipusi n'ibindi bindi.

Ahantu hateraniye abantu mu kibuga kinini cyane hirya yabo hari amazu hari abana bakiri batoya barimo kuva ku myaka itanu kuzamura barimo bakoma amashyi bishimye cyane.

Ikibuga kinini kirimo utwatsi, izuba rirarashe cyane, hicaye abana bari ku murongo, umugore wunamye wambaye ishati isa umweru, ufashe umwana ufite igitabo.

Ikigo cy'amashuri kicayemo abanyeshuri bakiri batoya, ku ntebe zifite amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, bari kureba ku ruhande, hirya hari urukuta rusize irangi ry'umuhondo.

Inzu ishashemo umusambi munini cyane ufite amabara atandukanye harimo umutuku, icyatsi ndetse n'umweru, hicayemo umugore n'abana benshi, umwana arahagaze yambaye ikanzu ifite ibara ritukura.

Inyubako yigamo abanyeshuri, bambaye iniforume zifite ibara ry'ubururu, hari ameza afite ibara ry'igitaka, hirya hari urugi, rufite ibara ry'ubururu rurakinze.

Inzu iriho urugi rufite ibara ry'umweru, hanze hari abantu hari abicaye, hari abahagaze, hariho abana bambaye amashati asa afite ibara ry'ubururu, barimo barabasukira mu bikombe bafite.

Inzu ishashwemo imisambi ibiri ifite amabara atandukanye icyatsi, umweru, umutuku, umukara ukaba wicaweho n'abana n'umugore ucigatiye igitabo uri gusomera abo bana.

Umurima uhingwamo ibiribwa bitandukanye, harimo abana harimo n'umugabo, hirya yabo hari inzu ifite amabati afite ibara ry'ubururu, hasi hari ibyatsi byinshi bifite ibara ry'icyatsi.

Inzu yigishirizwamo ibintu bitandukanye, harimo abana ndetse n'abantu bakuru, bicaye ku ntebe isize irangi ry'ubururu, umugore arahagaze yambaye ishati ndetse n'igitenge, afite igitabo mu ntoki.

Inyubako yagenewe kwigirwamo, ni ikigo harimo abana bicaye ku ntebe zifite amabara y'ubururu, igitaka n'ameza atukura, bambaye iniforume zifite amabara y'ubururu.

Inyubako y'amashuri yigishirizwamo abana batoya biga inyuguti zigiye zitandukanye, bakaba bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu ndetse n'inkweto zifite amabara y'umuhondo, inyuma ku rubaho handikishijweho inyuguti zandikishijwe amabara atandukanye umweru ndetse n'umuhondo.

Ikigo cy'amashuri, abanyeshuri bari hanze, bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse na kaki, hakaba hari urukuta ruriho amatafari ahiye.

Ishuri ryigishirizwamo abana, hifashishijwe ibitabo, barimo barabisoma, abana bicaye begeranye, hirya hari amatafari ahiye, bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse na kaki.

Ikigo cy'amashuri kigaho abanyeshuri batoya, bambaye imyenda ifite ibara rya kaki ndetse n'ubururu, hacanye izuba, hirya hari urugi rusize irangi rufite ibara ry'icyatsi.

Inzu iri ahantu hasa nk'aho n'abantu batambagira aho ngaho, ikaba ari inyubako y'amashuri, abanyeshuri ibyo ari byo byose ntabwo bigeze bahagera cyangwa batashye, hamwe n'ababigisha.

Ikigo cy'amashuri kigwamo n'abanyeshuri b'ingeri zitandukanye, abatoya, abana bari kugenda bambaye iniforume zifite ibara rya kaki ndetse n'ubururu hari igikuta kirimo amatafari ahiye.

Inzu itangirwamo amasomo, harimo abana bicaye hasi ku musambi urimo amabara atandukanye, harimo umukara, umuhondo, umwana arahagaze afite igitabo mu ntoki arimo gusoma.

Inyubako imanitsemo ibishushanyo byifashishwa higisha abana gusoma, hakaba hashushanyijeho inzoka, ikanzu, amashati, ingofero, ndetse n'inzu.

Ikigo cy'amashuri kiriho abana bahagaze, imbere yaho hari umugore wambaye ikanzu irimo amabara atukura ndetse n'ay'umweru n'inkweto.

Inyubako iranga ahantu hatandukanye ushobora kuba waza ugaparika imodoka yawe kugira ngo ibe iri mu burinzi neza, hatagira umuntu waza akaba yayangiza mu gihe wayihagaritse uba ufite uyikurebera.

Inyubako y'amashuri, irimo intebe z'imbaho zitondetse ku murongo zifite ibara ry'ikigina, ku rukuta hariho amatafari ahiye yometseho igipapuro gisize irangi ry'umuhondo.

Ikigo cy'amashuri kigwamo n'abanyeshuri batandukanye, cyubakishijwe amatafari ahiye, hanze hari ibyatsi byinshi bitoya bifite ibara ry'icyatsi, abanyeshuri bahetse marete, hari mwarimu wambaye ishati y'umweru.

Ikigo cy'amashuri, cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe n'amabati asize irangi ry'ubururu, hari ikigega kibikwamo amazi, hirya hari ibiti birebire bifite amashami maremare.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri bari kujya ku ishuri bambaye imyenda ifite ibara rya kaki ndetse n'ubururu, hirya hari inyubako isakaje amabati y'ubururu.

Inyubako y'amashuri, ibyatsi hanze isakajwe n'amabati afite ibara ritukura, hirya hari ibiti binini birimo amashami menshi akora hejuru.

Ikibuga gikinirwaho umukino wa basket, hakaba nta muntu n'umwe uhari, hirya yaho hakaba hari inyubako, hari n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi no hepfo no mu zindi mpande.

Ikigo cy'amashuri; harimo intebe zifite ibara ry'igitaka, hahagazemo abanyeshuri batatu umwe ahetse marete ifite amabara atandukanye, abandi bambaye amashati afite ibara ry'ubururu.

Inzu iriho umuryango ufunguye ho gato hari ingufuri ifunze isigishije irangi ry'icyatsi n'ibyuma bitambitse nta muntu utambatamba aho hafi?

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari atukura, hari akayira kanyuramo abanyeshuri baje gusoma amasomo, bambaye iniforume isa ubururu ndetse na kaki.

Inzu irimo ibitabo, akabati bibikwamo, ameza atondetse ku murongo, hakaba hamanitse umugozi uriho imyenda ifite ibara ritukura ndetse n'andi mabara.

Umuhanda nyabagendwa ugendamo abantu, hepfo y'umuhanda hari ibyatsi byinshi n'inzu zihari, hari abana batatu bari mu muhanda bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu b'abakobwa.

Ahantu nyamwinshi cyane, harimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, imbere yaho hari ibikoresho twifashisha twumva, turirimba, by'umuziki.

Ikigo cy'amashuri cyigishirizwamo abana, hanze hari abantu benshi bari kuhakora umuganda, hirya hari ishyamba ririmo ibiti byinshi, birebire, insina bifite n'amashami menshi.

Ikigo cy'amashuri kigwamo n'abanyeshuri, hari urugi rusize irange ry'umweru, amabati afite ibara ritukura, hasi hari ibyatsi, ku ruhande hari ibiti, izuba riracanye cyane.

Inyubako y'imyidagaduro, ikinirwamo imikino itandukanye, hakaba harimo abantu benshi, abasore bahagaze bafite imipira iriho nimero bambara, ifite amabara y'umweru ndetse n'amakabutura atukura.

Inyubako iriho umurinzi ufite inkoni mu kwaha, yambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'ishati y'umweru, hirya hari igiti gifite amashami menshi, afite ibara ry'icyatsi rihiye.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, hari abantu bari ku murongo bambaye imyenda itandukanyije, amabara umuhondo, icyatsi, umutuku ndetse n'umukara, hari umugabo ubahagaze impande.

Inyubako yigishirizwamo, harimo imashini nyinshi, iruhande hahagaze umugabo, hirya ye hari amadirishya asize ibara ry'icyatsi, hanze nta muntu uhahagaze.

Inyubako y'amashuri, harimo abanyeshuri, bicaye bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'icyatsi, hari imeza iteretseho mudasobwa idacanye.

Inyubako yigishirizwamo, hari urubaho rusize ibara ry'icyatsi, handitseho inyuguti zitandukanye, zandikishijwe ibara ry'umweru, imbere hari ibitabo biri ku meza, bigeretse ku murongo.

Ubutaka buriho inyubako n'ibindi bimera biriho ibiti bigufi n'ibirebire, bifite amabara y'icyatsi, hirya hirengeye hari ibicu biri hejuru.

Ikigo cy'amashuri, hari umuhanda, hanze yacyo hahagaze abanyeshuri bambaye amapantaro afite ibara ry'ubururu, hari umuryango winjiramo ukomeza ukujyana ku nyubako.

Ikigo cy'amashuri kigamo abanyeshuri, hari umuhanda ubageza ku ishuri, hari abakobwa babiri bambaye amajipo, afite ibara ry'icyatsi n'imipira, hirya hari inyubako zubakishije amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu hitaruye, hari umuhanda ku ruhande hakaba hubakishije amatafari ahiye, hirya hakaba hari ibiti birebire cyane, bifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi.

Ubutaka buriho inyubako ifite amabati y'icyatsi ndetse n'icyapa kiri hejuru, hari ibikingi bibiri bifite ibara ry'ivu ndetse n'umuryango ufite ibara ry'umukara.

Ikigo cy'amashuri, hasi hari ibyatsi byinshi bifite ibara ry'icyatsi, hirya hari umuryango ufunguye uri kwinjiramo umuntu, hakaba hari n'ibiti birebire bifite amashami menshi.

Umuhanda w'amabuye urimo ikinyabiziga gifunguye, haruguru hari inyubako zisize amarange y'umuhondo, ku ruhande hari abantu barimo barazamuka ahegereye ibyatsi.

Ikigo cy'amashuri; hari abanyeshuri bahagaze hanze benshi bari kumurongo, bambaye imyenda ifite ibara rya kaki ndetse n'umweru, imbere yaho hari amatafari ahiye.

Abanyeshuri bari ku murongo, bambaye imyenda ifite amabara abiri atandukanye, umweru ndetse n'ubururu n'inkweto z'umukara, imbere hari umugore wambaye umukenyero n'umupira w'umukara.

Urusengero rusengerwamo n'abantu benshi ari ku murongo, bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Imbere hari umusaraba, hari n'inkingi zifite ibara ry'igitaka.

Ikigo cy'amashuri hanze yacyo hari umuryango usize irangi risa icyatsi n'amadirishya hakaba hariho ibirango bikwereka ko aho hantu bigisha.

Ikigo cy'amashuri cyabereyemo imyidagaduro, barimo kubyina bambaye udupira tw'umweru, hirya hari igisharagati gifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi.

Inyubako abanyeshuri bigiramo. Baricaye ku ntebe zitandukanye. Bamwe bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, imbere yaho hari urukuta rutambitse runini cyane.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri benshi bari ku murongo, bambaye iniforume isa umweru ndetse na kaki, hirya yabo hari inzu igaragaza amabati gusa.

Inzu yagenewe kwigishirizwamo hariho urubaho kugikuta rusize ibara ry'icyatsi, hakaba handikishijweho inyuguti zifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, hakaba hahagazemo umunyeshuri.

Abanyeshuri bari mu muhanda, imbere yabo hari ikinyabiziga, gifunguye bari gushyiramo ibikapu, bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, hirya hari abagenzi.

Inyubako irimo imashini, hari abagabo bayihagaze impande, bambaye ibisurubeti bifite ibara ry'ubururu bwijimye, hirya hari amadirishya asize irangi ndetse hakaba hari n'amatafari ahiye.

Abantu batatu bahagaze, bambaye ibisurubeti bisa, bifite ibara ry'ubururu, bafite imashini mu ntoki, bajomba ku rubaho rubari imbere bakarutobora, hirya hari ibirahure ndetse n'urukuta rusize irangi ry'umweru.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri benshi bambaye imyenda ibaranga. Irimo amabara ya kaki, umweru. Imbere yabo hari umugore uhagaze ufashe indangururamajwi abaganiriza.

Umuhanda nyabagendwa usukuye, hino hari amatafari yubatse hasi ndetse n'ibyatsi ku ruhande, hakaba hasize irangi ry'umukara n'umweru, hirya hari ikinyabiziga gihagaze n'ibiti bifite amashami menshi.

Ikibaho kimanitse twifashisha twandikaho, cyanditsweho amagambo atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru, hariho ibara ry'umukara.

Ikigo cy'amashuri kiriho ikibuga bakiniraho basket, hasi hasize irange ry'umuhondo ndetse n'ubururu, hirya yaho hari igiti kirimo amashami menshi.

Ikigo cy'amashuri, hari abanyeshuri hanze benshi bambaye imyenda, amashati, afite ibara ry'umweru bicaye hasi, hari umugabo ubahagaze impande undi aricaye, imbere hari mudasobwa.

Inzu y'ikigo cy'amashuri, harimo intebe zitenze ku murongo izindi ziri hirya, nta muntu uhicaye, zaravunitse, hakaba hariho irangi ry'igitaka.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, higishirizwamo abana, hari abicaye hanze hasi benshi, bamwe bitwikiriye imipira yo kwifubika mu mutwe, hirya hari inyubako isize amarangi y'umweru.

Ikigo cy'amashuri bari gukinira umupira wo hejuru, abakobwa bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu ndetse no hasi bakaba bambaye inkweto zirimo amasogisi y'umweru.

Umuhanda nyabagendwa hakaba hasi hasize irange ry'umukara n'umweru, hari abantu babiri bari kugenda umwe yambaye ishati ifite ibara ry'umweru, undi yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari ibiti birebire n'inzu ifite amabati y'ubururu.

Mwarimu afite ikaramu mu ntoki, arimo arandika ku rupapuro, hari ibitabo ku meza byinshi bigiye bipanze, hirya hari urukuta rusize irangi ry'umuhondo.

Inzu irimo ibitabo, etajeri bitenzemo bitari ku murongo neza, bimwe byaryamye ibindi birahagaze, bigiye bifite amabara atandukanye arimo umukara ndetse n'atukura.

Inyubako y'amashuri harimo za mudasobwa nyinshi ziri ku murongo, hicayeho abantu bari kuzikoresha, zisize irange ry'umukara, hirya hari urukuta rusizeho irange ryera.

Ikigo cy'amashuri, kirimo abantu bicaye ku ntebe, barimo kwiga, imbere yabo hari mudasobwa, ndetse n'igare rigenderamo abana bafite ubumuga.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'abantu, hari abanyeshuri bari kuwunyuramo, epfo yabo hari inyubako, hari ibyatsi byinshi hasi, haruguru hari ibiti byinshi bifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri benshi bicaye, hari abandi bagabo bahagaze, inyuma yaho hari urubaho, imbere yaho hari mudasobwa iri ku meza.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, ikinyabiziga kimwe gisize irangi ry'umukara, hirya yaho hasi ku butaka hakaba hari irangi ry'umweru n'umukara.

Ikinyabiziga twifashisha kitujyana ku rugendo rwa kure kikagufasha kugerayo utananiwe, abanyeshuri batonze umurongo bambaye imyenda ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako irarwamo n'abantu, ku nkuta zayo hari amatafari ahiye, hari ibitanda byinshi bisasheho ibitambaro bifite amabara avangavanze harimo icyatsi ubururu ndetse n'umutuku.

Inyubako irimo ibitabo bitandukanye wacukumburamo amakuru ushaka kumenya, harimo umukobwa uhagazemo ufite icyo arimo arasoma mu ntoki ze, yambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'umupira w'umukara.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe ku murongo, imbere yabo hari ibitabo, mwarimu arimo arabasobanurira amasomo y'uwo munsi.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi harimo akazu k'imbaho, hirya hakaba hari ibiti birebire bifite amashami menshi ndetse ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako irimo ibintu bitandukanye, harimo za robine hirya no hino, utubati dusize irangi ry'umweru, amazi akaba afunze ntayari kumeneka, akaba nta muntu urimo.

Inyubako iri ku muhanda w'amabuye, ikaba isize amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, hanze hakaba hari ibyatsi byinshi bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako yitaruye iri ahantu kure, hafi yaho hari umuhanda, hakaba hari n'abantu bari kugenda, hepfo yaho hari indabo zifite amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Inzu irimo intebe zitandukanye ndetse n'ameza, nta muntu urimo, hariyo ibintu biteretse bitandukanye harimo; ibikombe ndetse n'utubati turi aho hafi.

Inzu ishashwemo itapi ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo intebe zegeranye, hakaba harimo amarinete ndetse na mudasobwa n'igitanda gishashe neza.

Inyubako ihurirwamo n'abantu barenze umwe, habaye inama zigiye zitandukanye. Hatenzemo intebe ziri ku murongo, zigiye zifite amabara atukura, hejuru hari itara ririmo riramurika cyane.

Inyubako ziri ku murongo zigeretse zisakajwe amabati asa igitaka, hasi hari ibyatsi hakaba hanitsweho n'imyenda myinshi ku murongo ifite amabara agiye atandukanye.

Inyubako iteraniyemo abantu bagiye batandukanye, abagore, abagabo, hejuru hasize irange ry'umukara n'umweru, abagore bambaye udupira tw'umukara ndetse n'umweru, hasi hari isima.

Inyubako ikorerwamo ubushakashatsi, ubukoreramo yambaye ibintu ku ntoki bifite ibara ry'ubururu, afite n'urushinge mu ntoki ari kujomba mu gakopo afite.

Inzu yigishirizwamo abanyeshuri harimo intebe nyinshi, hari mukobwa uhagaze ufite igikapu mu ntoki gifite ibara rya kaki, akaba yambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, hirya hari amatafari ahiye.

Imodoka ihagaze hasi ku butaka hanze, hirya hari indi isize irange ritukura, hirya yaho hari inzu hino hari ibiti birebire bifite amashami menshi.

Ibitabo bipanze muri tageri nini bigiye bitandukanye, ubona bipanze mu kavuyo kenshi, ushaka gusoma byagutwara umwanya ugenda ucagura ubishyira ku murongo.

Inyubako yigishirizwamo yicayemo abagore bari kuri mudasobwa, harimo umwe wambaye amarinete yiteze igitambaro wambaye ikanzu irimo amabara menshi atandukanye.

Inyubako iticawemo n'abantu, harimo intebe nyinshi zifite amabara atandukanye, arimo umukara, kaki, hirya hari amadirishya, hanze nta bantu bahari batembera.

Inyubako itarimo abantu ifite inkingi nyinshi ziri ku murongo iriho amadirishya asize irangi ryi umukara ndetse n'inzugi zisize irangi iriho umuryango ufunguye.

Inyubako iri ku muhanda y'amagorofa arenze atatu, harimo amadirishya afite ibara ry'ubururu, ku ruhande hari umugabo urimo uragenda, hasi hari ibyatsi byinshi bifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako y'ishuri yigirwamo abanyeshuri bicaye bose bari kumva icyo mwarimu ababwira, bicaye imbere ya mudasobwa zidacanye, hirya hari ibikuta bisize amarangi y'umweru ndetse n'amadirishya.

Umuhanda nyabagendwa uhagazemo abantu, hirya y'aho hari inyubako isize irange rya kaki, hakaba hari n'ibiti hino birebire bifite amabara y'icyatsi.

Inyubako ifite isuku isize amarangi y'umweru, amadirishya asize irangi ry'ivu, hariho inkingi nta bantu batemba aho ngaho.

Inzu irimo igitanda, hasi hashashe umusambi ufite amabara atandukanye arimo ubururu, umutuku ndetse n'umweru. Igitanda gishasheho amashuka afite ibara ry'umweru, hirya hari akabati.

Akabati kari mu nzu, kifashishwa ubikamo ibikoresho bimwe na bimwe, hejuru hamanitseho inkweto zifite ibara ry'umuhondo, kegetse ku gikuta, risizeho irangi ry'ubururu.

Inyubako ihuriwemo n'ibintu byinshi utubati, ameza, hirya hari idirishya ririho ibyuma bisize irangi ry'icyatsi kibisi ndetse n'imbaho ku ruhande.

Imashini yifashishwa ireba indwara zitandukanye, urugero nka mikorobe ziba mu mubiri w'umuntu ziba zamutera indwara nk'iyo kurwara mu nda ukaribwa.

Ikigo cy'amashuri kigirwamo n'abantu, bicaye imbere yabo hari za mudasobwa, bambaye imyenda itandukanye, ifite amabara: ubururu, umuhondo ndetse n'umukara.

Abantu bafite amakaramu mu ntoki bari kwandika, imbere yaho hari za mudasobwa ziteretse imbere, umugore wicaye wambaye ikoti ry'umukara.

Ameza asandagujweho ibintu bitandukanye, harimo amakayi, ibitabo ndetse n'ikaramu twifashisha twandikisha, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ahantu hitaruye cyane harimo inyubako nziza y'amagorofa arenze atatu, nta bantu bahari, iruhande hari ibyuma bisize amarangi y'umukara, ndetse nta n'undi muntu uhatembera.

Inyubako ndende, hanze hari inzugi zisize amarangi afite ibara rya shokora, hanze hahagaze umugabo wambaye ipantaro ifite ibara ryigitaka, ndetse n'umupira ufite ibara ry'umukara n'ingofero.

Inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hejuru hari amacupa ari ku murongo agiye apfundikije imipfuniko ifite amabara atandukanye ubururu, umukara, hejuru hari amatara azimije atari kwaka.

Icyapa kerekana aho abantu bicara, bategereje ikinyabiziga, hariho amarange yanditseho ijambo yoba, afite ibara ry'umuhondo.

Inzu irimo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, ibikombe, ibiyiko, amatasi, amajerekani ndetse n'igitambaro gifite ibara ry'umweru n'igitanda cyubakishije ibyuma.

Ikigo cy'amashuri kirimo intebe zikaba nta banyeshuri bazicayemo, imbere hari urubaho rusize irangi ry'umweru ndetse n'umukara, hirya hari amatafari akikije iyo nzu ahiye.

Ahantu hari inzu, hasi hari ibyatsi byinshi, hejuru hanitse imyenda, hari n'ibyuma bifite ibara ry'umukara, nta muntu ugaragara aha ngaha.

Inzu ipimirwamo ibijyanye no kwa muganga bakaba bareba indwara urwaye, hifashishijwe ibikoresho bipima izo ndwara, hasize amarangi y'umweru.

Inyubako ifite isuku nyinshi cyane iri ku muhanda utari kugendwamo n'abantu, burije hacanye amatara ari kwaka ibara ry'ubururu, hanze ku rukuta hari amatafari ahiye.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye, igitanda gishashe hariho amashuka afite ibara ry'iroze ndetse n'irido ririmo amabara atandukanye arimo iry'igitaka.

Inzu ibitswemo ibitabo bigiye bitandukanye, hari akabati gafite ibara rya kaki, ibitabo byinshi bisize amarangi asa icyatsi ndetse n'amagambo yanditse hejuru afite ibara ry'umweru.

Inyubako irimo ibintu bitandukanye, hejuru hakaba hari icyapa cyanditsemo amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'intebe ziri hasi zifite ibara ry'umutuku ndetse n'igare rigenderwamo n'abantu badafite ingingo zimwe na zimwe.

Inyubako irimo igitanda gishashe neza n'amashuka afite amabara atandukanye ariho indabo zitukura, umweru, hari amarido afite ibara ry'umuhondo, hejuru hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Ikibuga kinini cyane kiriho amatafari ahiye n'ibyatsi kuruhande, ndetse n'ibiti biteye amabengeza bifite amababi agaye afite ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu iri ahantu hasukuye cyane, hasi hari irangi ry'umukara ndetse n'umweru, hirya yaho hari ibyatsi, imbere yaho hari amayesikariye, afite ibara ritukura.

Ibiti biri ku muhanda binini byiza, bifite amashami meza, umumaro wabyo nta wundi, usibye kudufasha gusohora umwuka mubi tuba twahumetse, tukinjiza umwiza uturutse kuri ibyo biti.

Ikigo cy'amashuri cyigishirizwamo abanyeshuri bakuze, imbere hari umwarimu uri kubigisha, bakaba bicaye abanyeshuri imbere y'ameza, imbere yabo hari za mudasobwa bakaba bari kumva icyo bababwira.

Umuhanda urimo imodoka isize ibara ry'umweru, hakaba nta bagenzi barimo, hirya yaho hakaba hari ibiti birebire cyane bifite amashami menshi afite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda uteganye n'inzu, irimo amacupa menshi, afite ibara ritukura, hasi hari ibyatsi byinshi bifite ibara ry'icyatsi, ku ruhande hari ibyuma bizamuye bisize ibara ry'umukara.

Akabati kabikwamo inkweto zirimo amabara atandukanye umweru, umukara, hejuru hateretseho utujerekani dutatu harimo amazi, ku ruhande hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Inyubako itangirwamo ibyo kurya, hari abantu bari kwarura ibiryo, umudamu ibitwenge byihishe wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye y'umukara, icyatsi uri guseka.

Inzu y'ibitabo ushobora gusangamo ibitabo bigiye bitandukanye, byagufasha kunguka ubwenge ukabukangura ugasoma ukamenya, bakaba babihereza abanyeshuri ndetse n'abatari abanyeshuri, umuntu wese ukeneye kurahura ubumenyi, akaba yahagera agatora igitabo agasoma.